Kugira ngo umuhinzi agire umusaruro mwinshi umushimishije. Ni ngombwa ko asuzuma ibihingwa bye kugira ngo arebe niba bitarononwe. Igihe yasanze byarononwe n'udusimba tugiye dutandukanye, aba agomba kutwica akoresheje imiti yabugenewe. Muri iyi miti agomba kuyitera yirinze cyane ,afite ibikoresho bihagije ndetse kugira ngo nawe atandura.

Ibihingwa nabyo mu kubibungabunga kugira ngo bigire ubuzima bwiza nabyo nk'ibinyabuzima bigomba kwitabwaho biterwa imiti mu gihe ikirere cyaba cyahindaguritse cyangwa se cyahuye byahuye n'ibyo ntigiye bitandukanye ni ngombwa rero kubikoresha nk'iyi miti ifasha nyine mu ndimi z'amahanga bita ibitakemiko amakemikozi kugira ngo ibyo bihingwa bibashe kubaho neza biza bitanga umusaruro kubabifite.

Kugira ngo ibihingwa bigire ubuzima bwiza cyane cyane iyo byatangiye kwangizwa n'udukoko dutandukanye, umuhinzi yifashi imwe mu miti igomba kumufasha nyine guhangana n'utwo dukoko, ni yo mpamvu abo bahinzi baba bagomba kwitwararika ku miti batera kugira ngo imiti batera yice utwo dusimba ntibangamire imyaka.

Kugira ngo umuhinzi agire umusaruro mwinshi kandi mwiza ni ngombwa ko asuzuma ko ibihingwa bye bimeze neza, mu gihe asanga byarahuye n'udusimba cyangwag se udukoko aba agomba kubitera imiti yica utwo dukoko kugira ngo tutazonona imyaka ahinga, aba agomba kwifashisha kandi ibikoresho bitandukanye yica utwo dukoko kugira ngo nawe ataza kwandura.

Umuhinzi kugira agira umusaruro we uhagije, aba agomba kwita ku bihingwa bye cyangwa se ku byo yateye, ni muri urwo rwego iyo bifashshwe n'udukoko ugomba kuyishakira imiti akayitera mu gutera iyo miti agomba kwirinda, agakoresha uturindantoki ndetse akaba yakwirinda ko imukora ku mubiri.

Uburobyi ni umwe mu mwuga abantu benshi bakora kugira ngo babone amafaranga, ndetse ni imyuga ikunzwe cyane cyane ahantu haturiye ibiyaga, ibiyaga abantu barobamo amafi bakayacuruza ubuzima bugakomeza, ndetse bakanabibyaza umusaruro muri rusange.

Uburobyi ni umwe mu mwuga umuntu ashobora gukora, abukoreye mu kiyaga, mu migezi n'ahandi hashobora kuboneka nyine ibirobwa. nk'ibyo birobwa hashobora kubonekamo isambaza, amafi, ayanga yafasha nyine n'abantu kugira n'ubuzima bwiza.

Ibihingwa ngengabukungu cyangwa se ibihingwa bitanga amafaranga usanga ari ibihingwa biba bifitiye igihugu akamaro, ababikora barunguka ndetse n'igihugu kikabyohereza mu mahanga kikabasha kunguka.

Bimwe mu bihingwa ngengabukungu dufite mu Rwanda cyangwa se muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba dusangamo ikawa. Ikawa ni kimwe mu bihingwa bigezweho ndetse byanahozeho, bifasha abantu kubona amafaranga mu uburyo bumwe cyangwa ubundi.

Ibihingwa ngengabukungu ni bimwe mu bihingwa bitanga amafaranga bifasha ubikora kugira amafaranga akayinjiza ku giti ke ndetse n'igihugu muri rusange akakinjiriza, ibihingwa birimo ikawa, icyayi ndetse n'ibindi bishobora kwinjiriza ubikoramo amafaranga.

Mu bihingwa ngengabukungu dushobora gusangamo ingano. Ingano zishobora gutuma, umuhinzi uzihinga, agira amafaranga menshi atubutse, kubera ko ziba zishakishwa n'abantu benshi. Ingano zishobora gukorwamo ifarini, bikaribwa nk'ibisanzwe, zikaba zanaguteza imbere.

Ibihingwa ngengabukungu birimo: icyayi, ikawa n'ibindi byose bishobora kwinjiza amafaranga ku muntu ubikora ndetse bikagemurira n'inganda zitandukanye kugira ngo bibashe koherezwa hanze y'igihugu, igihugu kibashe gutera imbere muri rusange.

Mu bihingwa ngengabukungu dufite hano mu Rwanda dufitemo icyay,i icyayi rero ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga haba ku bagikora, ku bagihinga no ku bagicuruza, cyane cyane abagihinga uba usanga bashobora no kugisoroma bagahereza abandi akazi kugira bose babashe kubona.

Imiti y'amatungo ni imwe mu miti igomba gufatwa neza kugira ngo igirire akamaro amatungo kuko buri wese azi akamaro k'amatungo haba mu buzima busanzwe hano mu rugo cyangwa se ahandi hantu muri rusange, amatungo agenda afasha ubuzima bwa muntu mu bintu bitandukanye.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ubuvuzi buri kugenda butera imbere muri iki gihe bijyanye n'uko imiti yabwo iri kugenda yaguka ari myinshi, iyi miti iri guterwa n'uko hari ibyorezo byinshi biri kuza, bityo kugira ngo aborozi babirwanye bakifashisha imiti yabugenewe ivura amatungo.

Imiti y'amatungo ni imwe mu miti ifasha amatungo muri iki gihe, ubuzima buri kugenda buhindagurika cyangwa se n'ikirere kigenda gihindagurika muri rusange, imiti ushobora kuyisanga mu maforomasi agiye atandukanye, bakayiguha wishyuye amafaranga.

Imiti y'amatungo ni imwe mu miti ifasha amatungo mu gihe ameze nabi cyangwa se yahuye n'ibyorezo bigiye bitandukanye. Iyo umworozi aguriye amatungo ye imiti kugira ngo amere neza, biyabafasha kubaho igihe kirambye ndetse akaba yayakuraho n'umusaruro.

Imiti y'amatungo irimo amoko menshi, hari imiti myinshi ivura wenda ihene ,yi'intama, inka n'andi matungo agiye atandukanye, iyi miti rero ushobora kuyisanga ahantu henshi hagiye hatandukanye ku baganga b'izo nyamaswa cyangwa se b'ayo matungo ukayifashisha kugira ngo uvure itungo ryawe rimere neza.

Imiti y'amatungo ni ikintu cyiza cyane ku buzima bw'amatungo kuko ino minsi amatungo ari kujya arwara bitunguranye bitewe n'ukuntu ikirere kiri guhindagurika buri munsi buri munsi, ni yo mpamvu iyi miti ari ingenzi, ku isoko iragurishwa haba muri farumaso ikagurishwa n'ahandi hose wayihabona.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bugezweho, kubera ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ibyorezo biri gutera muri iyi minsi, bifata amatungo bigatuma ayo matungo ajyanwa kuvuzwa, aho bita ku baganga bayo.

Kubera ikirere gihindagurika buri munsi, indwara z'ibyorezo zigenda zitera, no mu nyamaswa rero cyangwa se mu matungo yororwa, usanga ari kugenda ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye by'indwara, muri rusange rero imiti y'amatungo imwe mu miti cyane ifasha amatungo akongera kugira ubuzima bwiza.

Imiti y'amatungo muri iki gihe ni imiti ifite isoko kubera ko amatungo yabaye menshi ndetse arwara n'ibyorezo bigiye bitandukanye, bijyanye n'aho isi igeze n'uko ikirere kigenda gihindagurika. Imiti ushobora kuyisanga ahantu henshi hagiye hatandukanye bayicuruza.

Abahinzi cyangwa se aborozi kuko byose birajyana ni bamwe mu bantu bafitiye akamaro Igihugu kuko bona batariho kugira ngo twese turye byatugora, aba ni bo batuma tubona ibyo kurya kuko barabihinga babijyana ku isoko tukajya twabibaha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ubworozi muri rusange ni umurimo ushobora gukora ukagutunga, ugufasha no kwishyurira abana bawe ishuri mu gihe ubafite. Mu gihe umuntu akora ubworozi, kubera ko ibintu byo kororera ku gasozi byacitse, ni ngombwa ko agomba kwahirira amatungo ye, ndetse akaba yanahitamo uburyo bugiye butandukanye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abahinzi ni bamwe mu bantu bakora imirimo y'ingenzi kuko badufasha kubaho. Ibyo bahinze nibyo bidutunga. Niyo mpamvu mu buhinzi bifashisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umuhinzi iyo agiye mu murima ashobora kuba yambaye inkweto zibyemera cyangwa se zimufasha kugira ngo atabasha kwanduriramo izindi ndwara.

Ubuhinzi muri rusange ni umwuga ushobora guteza ubukora imbere, cyane cyane abahinga ibintu bijyanye n'ibyo kurya, bifasha abantu mu buzima busanzwe, ubuzima bwa buri munsi, ni yo mpamvu rero ubuhinzi bugomba kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Abakora ubuhinzi cyangwa se abahinzi muri rusange ni abantu bagira uruhare mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bifatika baratugaburira kuko badahari ntabwo abantu babaho mu buzima bifuza. Baba bahinga ibintu byinshi bitandukanye birimo amasaka, ibishyimbo, ibigori n'ibindi.

Ubuhinzi n'abahinzi muri rusange ni abantu b'ingenzi muri ubu buzima kuko nibo badutunze cyangwa se ni nabwo budutunze, ubuhinzi bukorwa muri iki gice cy'u Rwanda cyane cyane ahantu ho mu cyaro, nibwo butuma abantu bo mu mujyi babaho.

Ibihingwa ngengabuku ngandura rugo, ni bimwe mu bihingwa bihingwa mu rwanda cyangwa se n'abantu benshi kugira ngo babashe kubaho, uba usanga byiganjemo imyumbati, ibishyimbo, amateke, ibigori n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bituma umuntu abaho.

Ibihingwa ngandura rugo n'ibihingwa bihingwa ahantu hafi no mu rugo kugira ngo bigoboke ababihinze, kugira ngo kandi babihe bahihe nyine ababikeneye waba uw'aba kubigurisha cyangwa se mu bundi buryo bibafasha mu kubaho muri rusange.

Ibihingwa ngandurarugo bimwe mu bihingwa bidufasha, bifasha n'abantu kugira ngo babeho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubu ibi ngibi birakenerwa cyane kuko biba birimo ibintu byiganjemo imbuto n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri izo mbuto dushobora kuvugamo indimu n'ibindi.

Ibihingwa ngandurarugo bimwe mu bihingwa bifasha abantu kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi muri ibyo dushobora kuvuga nk'ibishyimbo, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi, ibi byose bifasha ubuzima bwa muntu mu kubaho neza.

Amashyamba ni kimwe mu bintu bigaragaza uburanga bw'igihugu cyangwa se bw'ahantu, atuma tubona umwuka mwiza duhumeka ndetse agatuma n'imvura igwa, amashyamba rero arimo ubwoko bwinshi butandukanye kuko arimo amashyamba kimeza ndetse n'amashyamba aterwa.

Amashyamba ni kimwe mu bintu byerekana ubwiza nyaburanga butatse Igihugu cyangwa se ahantu muri rusange kugira ngo atange amafaranga mu baje kuyasura. Aya mashyamba kandi ntitwakirengagiza umumaro aba afite cyanecyane aya ya kimeza kuko atanga imvura, agatanga n'umwuka mwiza duhumeka.

Amashyamba yaba kimeza cyangwa se yatewe, ni hamwe mu hantu hagaragaza ibyiza nyaburanga bitatse ahantu, kuko hashobora gusurwa yaba abaturutse hanze, cyangwa se abri imbere mu gihugu.

Amashyamba ashobora kuvamo amoko agiye atandukanye, dushobora kuvuga nk'amashyamba kimeza cyangwa se amashyamba ashobora guterwa by'umwihariko tugarutse ku mashyamba kimeza, ashobora gukurura ba mukerarugendo bitewe n'inyamaswa zirimo cyangwa se ibindi bintu byabakurura bityo bagasiga amadovize cyangwa se amafaranga n'ubundi afasha igihugu.

Ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye na bwo ni umurimo nk'indi yose abantu bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, ushobora gucuruza ibintu byinshi bitandukanye birimo inyanya, birimo isambaza, birimo ibishyimbo, ibintu byose bikenerwaho mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu babashe kubaho cyangwa se bakomeze kubaho mu buzima bifuza buhaza ibyifuzo byabo.

Ibiribwa cyangwa se ibiryo bifasha abantu ubuzima bw'ibanze bwa buri munsi, ushobora gusangamo: intoryi, ibitunguru, amakaroti, insenda, powavuro, imeteja ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora gutuma umuntu abaho ubuzima butamugoye cyangwa se akaba yabitekamo nk'imboga n'ibindi byose byagira ingaruka nziza ku mubiri we bikamuha intungamubiri.

Iyo izuba ryavuye ari ryinshi abahinzi nta kindi gisubizo baba bafite baba bagomba gutekereza uburyo bwo kuhira imyaka yabo kugira ngo ikomeze itoshye muri uko kuhira imyaka yabo baba bagomba kwifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha nyine kuhira iyo imyaka yabo.

Kugira ngo umuhinzi agire umusaruro ku byo ahinga cyangwa se ku bihingwa bye ni ngombwa ko iyo abonye byishwe n'izuba aba agomba kubyuhira, yifashishije imashini zigenda zitandukanye aba agomba kuhira kugira ngo imyaka ye ikomeze ikure nta kibazo nubwo imvura itaba iri kugwa.

Kuvomerera imyaka ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu gihe izuba ryatsi ari ryinshi cyangwa se ahantu hahuye n'amapfa kugira ngo imyaka ibashe kugarura ubuyanja cyangwa se igarure umwimerere wayo idapfapfa kugira abantu ntibazicwe n'inzara. Ni ngombwa rero kuvomerera mu gihe ubonye ari ngombwa.

Kugira ngo umuhinzi agire umusaruro yifuza cyangwa se yateganyije, ni ngombwa ko iyo izuba rivuye aba agomba kuhira imyaka ye kugira ngo itohe imere neza, izamuhe umusaruro nkuko yabiteganyije.

Uburyo bwo kuhira imyaka nibura uburyo bwifashishwa mu gihe ibihingwa bitameze neza bitewe n'izuba cyangwa se aho hantu hava izuba ryinshi hagaterwa n'ibyo bindi kandi bigaterwa n'uko ikirere kimeze cyangwa se gihindagurika buri munsi imvura ikabura bigatuma abantu buhira cyangwa se abahinzi buhira kugira imyaka yabo ikomezaze kumera neza.

Uburyo bwo kuhira ibimera cyangwa se ibindi bintu biteye ku buso runaka, ni uburyo bukoreshwa mu gihe imvura yabuze cyangwa se ahantu hahuye n'amapfa kugira ngo ibihingwa bihateye bihagire ubuzima bwiza bibashe kuzasarurwa byeze kandi bimeze neza, nk'aho nta n'izuba ryavuye cyangwa se nta cyorezo cyabishyitseho.

Uburyo bwo kuhira imyaka, Ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu gihe izuba ryateye ari ryinshi cyangwa se ahantu hakunda ku kuva izuba ryinshi, cyangwa se gihe cy'iki cyangwa se igihe cy'amapfa, mu gihe ibihingwa cyangwa se ibimera bitameze neza bitewe n'iryo zuba.

Iyo izuba riva ari ryinshi, abahinzi nta kindi gisubizo baba bafite, uretse kuhira imyaka yabo. Muri ibyo bikoresho bakoresha, nyine baba bafite amazi ari kumwe n'umupira, bari kuhira ahantu runaka, aya mazi abava ahantu runaka. Ushobora kwitwaza ibikoresho birimo indobo irimo ayo mazi, ndetse Ukuhira iyo myaka.

Mu gihe imvura yabuze kandi imyaka ikaba iteye kandi igomba kwera, ni ngombwa ko umuhinzi ku myaka ye aba agomba gukora icyo bita kuhira, arayuhira kugira ngo ikomeze itohe nubwo izuba ritaba riri kuva.

Kugira ngo isuri irwanywe muri rusange ni ngombwa ko buri muhinzi wese uri guhinga ahantu hahanamye cyangwa se ahantu hatameze neza hashobora guteza isuri, ni ngombwa ko aca amatarasi y'indinganire kugira imyaka ye itazakundurwa n'isuri, cyangwa se ibe yahura n'ibindi byonyi bigiye bitandukanye.

Mu bibaya ni ahantu uba usanga haba hatandukanye n'ahandi hantu ho mu misozi kuko mu bibaya ushobora gusanga bahakoze amaterasi y'indinganire kugira ngo abantu babashe guhinga neza n'isuri idatembanye imyaka yabo, bimwe mu bibaya dufite mu Rwanda ushobora kuvugamo ibibaya nka Bugarama n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo muri rusange ni ubworozi umuntu ashobora gukora akabukorera mu kiraro cyangwa se akabukora hanze yacyo, ubworozi iyo ubukoze neza bukubyarira inyungu nkaho ushobora korora inka, ihene n'intama byose bikaguha amata n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo ni umwe mu mwuga umuntu ashobora gu gukora ukamubyarira inyungu, ukamugirira akamaro we n'urubyaro rwe cyangwa se umuryango we muri rusange, ubu bworozi bushobora kuguha amafaranga atuma urihira abo bana amashuri, nawe ukabasha kubaho neza mu gihe wayitayeho.

Ubworozi bw'amatungo yaba magufi n'amaremare, ni kimwe mu bintu cyangwa se ni imwe mu mirimo ifasha abantu kubaho, bakabaho neza barya aya matungo cyangwa se ibiyakomokaho, bakagira amafaranga avuye ku ayo matungo, bakagira ifumbire n'ibintu byinshi bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo, niho ushobora gusanga umworozi yoroye ibintu byinshi bitandukanye birimo amatungo, muri zo twavuga nk'ingurube. Ingurube iyo zororotse, zitanga umusaruro ugiye utandukanye. ushobora gusarura amafaranga kuri izi ngurube, cyangwa se ukaba wazirya mu gihe wazibagiye.

Ubworozi ni umwe mu mirimo umuntu akora, imubyarira inyungu. ushobora korora inyamaswa nyinshi zitandukanye cyangwa se amatungo menshi agiye atandukanye. Muri yo twavuga nk'inka, ihene, intama, inkoko na andi. Hanyuma korora bishobora kuguhereza umusaruro mwinshi ukomoka ku mafaranga, cyangwa se ku mata ndetse no ku nyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ubworozi bufite akamaro cyane cyane ahantu hari abana batoya kuko uretse n'abana batoya n'abantu bakuru barabafasha inyama ziva muri ayo matungo magufi cyangwa se amagi wenda ni nk'inkoko byose bihereza umuntu akamaro bikaba byamurinda indwara zitandukanye kubera ko aba yariye indyo yuzuye.

Imbuto zo gutera mu mirima, ubu usanga ari imbuto ziba zigizwe ahanini n'ibigori, ibishyimbo, amashaza, n'ibindi bintu byose umuntu ashobora gutera kugira ngo bigoboke ababikunda cyangwa se ababirya, kugira ngo mu minsi iri imbere babashe kubaho bishimye.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bugezweho ino minsi ya none, kubera ibyorezo biri gufata amatungo agiye atandukanye arimo inka, ihene, intama n'izindi. hari igihe usanga ubikora cyangwa se umuganga w'ayo matungo atarabyigiye, ariko iteka buri gihehe aba agomba kuba yarabyigiye kugira ngo akore ibyo azi, hato ataza kuvaho ahemukira inyamaswa cyangwa se ayo matungo aba ari kuvura.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bugezweho kuri uyu munsi wa none. Kubera ibyorezo n'ikirere gihindagurika buri munsi, amatungo afatwa n'indwara zigiye zitandukanye. Muri icyo gihe rero iyo bimeze gutyo, aborozi bihutira kujyana ayo matungo aho agomba kuvurirwa.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bukenewe hano mu Rwanda cyangwa se bunasanzwe bunahaba, kuko uretse no mu Rwanda n'i mahanga burahaba. Ubuvuzi bw'amatungo rero bugomba kuba busaba umuganga wabyigiye kuvura mu matungo, kuko umuganga w'amatungo ntabwo asa n'umuganga w'abantu.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bugezweho muri iyi minsi kubera ko amatungo ari guhura n'ibyorezo bigiye bitandukanye cyangwa se yaba akeneye igihe k'inkingo cyazo ugasanga ari kuziterwa, ni muri urwo rwego rero amatungo na yo aba agomba kwitabwaho kuko na yo agira ubuzima.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi bugezweho n'umunsi wa none, kubera ko amatungo arikurwaragurika bitewe n'ihindagurika ry'ikirere, bitewe n'ibyarya biva mu nganda bigenda biyateza indwara zijye zitandukanye. Ubuvuzi rero burakenewe kugira ngo ayo matungo arimo inka ihene n'ibindi bibashe kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amatungo ni bumwe mu buvuzi babukenewe mu minsi ya none, kubera ko amatungo agenda ahura n'ibizazane birimo ihindagurika ry'ikirere, n'ibindi bintu bishobora kuyakumira ubuzima bwayo bugatuma butagenda neza. Ubwo buvuzi rero bukorwa n'abantu babyigiye buba butandukanye n'ubukorerwa abantu.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ubuvuzi bugezweho ndetse butamaze igihe kirekire hano mu Rwanda. Ubu buvuzi bushobora gusuzuma inka irwaye, cyangwa se irindi tungo rirwaye, basuzuma ubuziranenge bwaryo. Iyo yapfuye cyangwa se yagize ikibazo ikaba itagihumeka, barayisuzuma kugira ngo inyama zaryo zibe zimeze neza.

Mu nyamaswa z'agasozi, ushobora gusangamo inkende, injangwe, ingwe, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bishobora gukurura ba mukerarugendo, ndetse ibingibi twibukiranye ko bishobora kubyara bikanororoka.

Inyamaswa zitandukanye haba ziri ahantu hatandukanye mu mashyamba cyangwa se ziba mu mazi zitaba mu rugo zose ni inyamaswa z'ingirakamaro ku gihugu cyacu cyangwa se ku bantu muri rusange, uzirebye uba ubona zibereye ijisho ndetse ntizitwatinya kuvuga ko zikururana na ba mukerarugendo.

Inyamaswa zo mu gasozi ni zimwe mu nyamaswa ziteye ubwuzu, ziba zibereye ijisho kuba wazisura, iyozisuwe cyane cyane muri ibi bihugu ziba zirimo, usanga zinjiza amadovize cyangwa se andi mafaranga, abanyarwanda binjiza baje kuzisura.

Inyamaswa z'agasozi cyangwa se iz'ishyamba ni zimwe mu nyamaswa ziba zibereye ijisho kuzireba, ziba zitewe n'ubwuzu zifite n'uburanga, izi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo cyangwa se zikaba zatuma nawe ujya kuzisura ukishyura amafaranga.

Inyamaswa z'agasozi cyangwa se z'ishyamba. Ni zimwe mu nyamaswa ziba zibereye ijisho. Ibi ngibi bikurura ba mukerarugendo bikabavana mu bihugu byabo bakaza kuzisura hano muri Afurika. Byumwihariko hano mu Rwanda iyo baje basiga amafaranga twita n'amadovize.

Inyamaswa z'agasozi, ni zimwe mu nyamaswa usanga ziteye ubwuzu, zifite uburanga butangaje, izi nyamaswa ziba zibereye kuzireba niyo mpamvu ba mukerarugendo bibakura i mahanga bakaza kuzireba, hanyuma bagasiga amafaranga cyangwa se ayotwita amadovize.

Inyamaswa z'ishyamba zimo:ingwe, impundu, imparage, n'impara izi nyamaswa zose ni zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo zikinjiriza igihugu amadovize. Ndetse ntabwo ari ba mukerarugendo baturutse hanze y'u Rwanda n'abanyarwanda bashobora kuzisura mu mashyamba agiye atandukanye cyangwa se mu mapariki yabugenewe.